Imwe mu nyubako ziri mu Karere ka Nyagatare inyubako nyinshi cyane ubona ko ari inyubako zitangaje kandi ahandi haratuwe ahandi ntiharaturwa muri uyu mujyi wa Nyagatare.

Ku kigo cy'amashuri, abanyeshuri barimo gufata ifoto y'urwibutso, bari kumwe n'abashyitsi babasuye harimo umuzungu.

Ahantu hamwe, ubona ko abantu bahakorera ibijyanye n'ibikorwa by'ububumbyi. Kubumba inkono n'ibindi byose muri rusange.

Abanyeshuri hano bakoze graduation cyangwa se bamaze gusoza amasomo ya kaminuza ubona ko babyishimiye cyane, babafashe ifoto y'urwibutso, ibintu binogeye ijisho.